Amabara aba ari meza cyane atuma nka nijoro iyo umuntu yarushe aza kubyinyina mu mabara akishima, agasabana n'abandi bantu, mbese ayo mabara muri make aba ari meza cyane. Umuntu abonagamo agasururu ko kwinywera bikamushimisha, kandi bishimisha n'abandi bantu muri rusange.

Akabari kaba ari keza cyane kaba karimo inzoga nziza nyine kakaba gasobanutse katarimo akavuyo, hahandi bacururiza ibigagi ,inzagwa ntabwo haba ari heza cyane. Ariko akiyubashye nyine gatuma kinjiza amafaranga.

Ifunguro riteguyemo ifi riba riryoshye cyane, kuko riba rinasa neza, iyo wariye ifunguro ririmo ifi, ugira ubwenge kandi uba usa neza cyane, kuko ifi ifitiye akamaro kacu umubiri mwinshi cyane! Kuko iyo umuntu yariye ifi iteguye neza umubiri we ugenda neza kandi agasa neza kurusha umuntu urya ibijumba gusa.

Akabari kaba ari keza cyane, iyo ugiye kunywera mu kabari ntunywe nyinshi cyane ngo usinde, biba ari byiza cyane. Iyo wasohokeyemo n'umukunzi wawe, ubuzima buba buryoshye. Kandi wasohokeyemo n'umuryango wawe muri rusange ubuzima buba bwabaye bwiza. Akabari ni keza cyane pe! Gatuma abantu babona icyo bakeneye, bakakibonera hafi.

Akabari kaba ari keza cyane, kuko gatuma abantu bananiwe bava mu mirimo yabo, iyo barushye bajya kuruhukiramo, noneho nijoro haba harimo n'amatara meza, abantu bakaruhuka, cyane cyane nk'abakozi ba Leta baba barushye, bajya kuruhukirayo kurya ku byabo, ku mitungo yabo ibintu bikagenda neza.

Ku mabara bateka ibiryo biryoshye biryoshye cyane, baba batetse inyama nziza bazikaranze neza bazisize biba biryoshye cyane, ugasanga batekeyeho n'umuceri uryoshye kubi uryoshye cyane cyane.

Amabara aba ari meza, amabara atuma iyo umuntu yifitiye nk'udufaranga duke ajya kwinywerayo agasuru, akajya kwinywera akagwa, akajya kwinywerayo ka mitsingi, mbese iyo umuntu afite amafaranga hariho n'amabara aho hafi, ibintu bijya biramworohera, mbese nta bwo bijya bimugora ngo ajye kure, reka reka.

Ifunguro ry' inyama riba riryoshye, ifunguro ry'inyama nkiyo ugiye mu mabara, cyangwa muri hoteri barariguha, iyo bariguhaye nawe wumva ari ryiza cyane, kuko riba riryoshye kurusha ibindi biryo, ifunguro ry'inyama iyo uririye wumva utuje cyane utekanye, ibintu byose ari byiza cyane.

Akabari ni keza cyane, kadufitiye akamaro, kandi gafitiye n'igihugu akamaro muri rusange, mbese ibyiza byako ntabwo ntabigamba ngo mbirangize, kuko kinjiriza igihugu amafaranga anyuze mu misoro, bituma abantu babona icyo bashaka mu kabari cyo kunywa, mbesi akabari ni keza cyane, ibyiza byako ni byinshi cyane.

Ubucuruzi ni bwiza cyane kuko abantu bacuruza nk' abantu bacuruza ibyo kurya ibiribwa biba ari byiza cyane, bituma bigira kandi igihugu kigatera imbere kikagira abantu bajijutse, kikagira abantu bataba ari abakene bagiteza imbere na bo bakiteza imbere, kandi bituma abantu babaho neza kuko ibintu bacuruza, bigirira abantu akamaro bari kubirya.

Akabari kaba ari keza cyane. Kuko urabona, iyo ugiye mu kabare ufite inyota, nk'ubu ushaka kwinywera nk'akayoga ka suruduwiri, urakanywa cyane kuburyo inyota ishira. Iyo inyota ishize, umererwa neza cyane.

Butike ziucuruza ibinyobwa ziba ari nziza cyane kuko igihe umuntu afite inzara akaba yifatiye akanyobwa. Izi butike zicuruza n'amavuta biba ari byiza cyane kuko byorohereza abantu bose baturiye butike batarinze baje kure cyane.

Ubucuruzi bw'imyenda ni bwiza cyane, kuko bwinjiza amafaranga ku misoro, bwinjiza amafaranga atunga umuryango, ku muntu ubicururiza, bwinjiriza imyenda ku nganda zikora, abakora mu nganda, ubucuruzi bw'imyendaga buba ari bwiza cyane kandi bituma n'abantu babona icyo bakeneye, cyo kwambara cyiza, igihe bagiye ahantu gutembera.

Butike ziciruza ibikoresho bakoresha mu migezi nta matiyo, ibihombo biba ari byiza cyane kuko bituma abantu wenda ngo bagiye kubaka nk'umugezi, ntabwo bibagora biba nyine biba ari byiza cyane, bituma abantu babonera ibikoresho bakenera mu gukora imigezi hafi.

Butike ziba ari nziza cyane. Noneho butike ziba zimeze neza ziba zubatse, ziriho amakaro. Amakaro aba ari meza. Ziba zirimo n'amasima. Biba ari byiza cyane ituma n'iyo umuntu agiye kugurira ahantu hari butike zisobanutse ibintu biba ari byiza cyane, nyine agenda ari kumva nyine ameze neza, mbese muri rusange.

Butiki ziba nziza cyane zicuruza ibintu byinshi, bamwe bazifata nk'amadepo bakadepamo ibintu byinshi cyane bituma abantu barangurira hafi. Baranguriraga hafi, amabutike aba arimo ibintu bitandukanye. Butike ziba mu bice bimwe namwe bitari ahantu hari'amasuko.

Ubucuruzi buba ari bwiza cyane. Dore nk'iyo umuntu wenda acuruza imipira cyangwa se amabalo y'abana, abana barishima, bibagirira akamaro. Ubucuruzi buba ari bwiza cyane nk'iyo harimo nk'amokorogate, ibintu biba ari byiza cyane, abantu bakagira amasuku. Mbese ubucuruzi bubamo ibintu byinshi, kandi iyo harimo ibiribwa bitugirira akamaro nyine. Mbese ubucuruzi muri butike buba ari bwiza, bworohereza abantu.

Akamaro ka butiki. Mbese butiki zitworohereza urugendo. Aho kugira ngo ujye mu isoko rya kure, ujya hafi. Mbese butiki zaratwegereye zituba hafi. ubu ngubu ushaka akantu byihutirwa, ukajya hafi kuri butiki. Ubundi ibintu bikagenda neza.

Butike z'iki gihe zisigaye zirabamo amatelefone, zibamo ibintu by'ikoranabuhanga, nsigaye ndabona butike ziba zirimo infinigisi. Mbese butike ni nziza cyane, iyo zakwegeye. Iyo ufite udufaranga ujya kugura wenda ka enfinigisi muri butike ya hafi zisigaye zarateye imbere. Nta bwo ari kujya mbese cyane cyane kure nk'i Kigali.

Butike ziba ari nziza cyane. Noneho iyo zifite ibirango nko ku miryango, butike ziba zifite ibyapa biba byanditseho nk'ibicururizwamo biba ari byiza cyane kuko ibyapa bituma nyine abantu bamenya ngo "muri iyi butike hacururizwamo iki". ibirango rero nk'ibyapa biba ari byiza cyane.

Ubucuruzi bw'imineke n'imbuto buba ari bwiza cyane, kuko bituma abantu babonera aho bahaha imineke, cyangwa izindi mbuto muri rusange, bituma nyine abantu bigira, ababicuruza barigira nyine bagakungahara, bakaba abakire.

Ahantu haba hari nyine aho hacururiza imiti yica udukoko, n'imisaruro cyangwa ibiribwa by'amatungo, biba ari byiza cyane, kuko iyo umuntu akeneye umuti wica udukoko awugurira hafi, cyangwa ashaka ibiribwa ubuzima bukagenda bizinesi zikagenda neza.

Botike ziba ari nziza cyane nk'umuntu yabacuruza amata wenda nkazayogati, inshushu, ibyo byose biba ari byiza cyane, iyo umuntu abicuruje abona amafaranga yinjiriza n'igihugu mu misoro, akubakishwa imihanda n'ibindi.

Botike ni nziza cyane, zorohereza abantu mu bintu byinshi, abantu ntabwo bakijya kure, ibintu n'amahoro n'umutekano rwose ewana.

Amabutike acuruza matora. Matora ziba ari nziza cyane kuko iyo uzirayeho ubyuka umeze neza. Ntabwo ari nka bya bindi kera baryamagaho by'ibirago umuntu akarara adasinziriye akarara ameze nabi. Ariko matora ziba ari nziza cyane zituma umuntu asinzira akagira...

Butiki ziba ari nziza cyane, butiki zinjiriza abantu, butiki zinjiriza igihugu binyuze mu musoro, butiki zituma abantu bigira, butiki zituma abantu batajya kure, mu masoko ya kure cyane bashaka ibyo bakeneye, mbese butiki zorohereza abantu kujya kure bigatuma abantu bagura ibintu bashaka hafi.

Ubucuruzi bw'amagare ni bwiza. Butike ni nziza iyo harimo ibintu byose byose, ibyabiziga, harimo moto, mbese ibintu byose. Butike zirimo ibinyabiziga abantu bose nta bwo bajya kure bagiye gushaka ibinyabiziga mbese iyo udufite udufaranga twawe ujya kugura moto hafi, bitagusabye kujya kure cyane. Ibinyabiziga muri rusange byoroshya urugendo.

Ibi bipupe biba ari byiza cyane, kuko bituma umuntu abona imyenda byambaye, akabona imyenda yamubera, nawe bigatuma iyo myenda ayigura, ibipupe muri rusange ibipupe biba ari byiza cyane kuko bituma umuntu abona ko imyenda yamubera.

Ibisheke cyangwa ibikaju ni izina rimwe, bigira akamaro ku mubiri, ibisheke cyangwa ibikaju bikoramo isukari babirya bimeze ukuntu bimeze, bimaraga inzara ibisheke iyo babijyanye no mu ruganda hari ikindi kintu bikoresha.

Butike ni nziza, butike zinjiriza abantu amafaranga. Butike, iyo umuntu wenda acuruza nk'inkweto muri butike, ibintu biramworohera. Abona amafaranga, agakusanya amafaranga mu baturage bose batuye aho hafi, mbese iyo byamuhiriye abonamo inyungu nyinshi.

Ibipupe bibag ari byiza cyane babikoresha mu gucunga ubucuruzi kuko iyo wambitse igipupe wenda urikubona mumeze nkabangana, nyine bituma ukabona inyenda zirakibereye, bituma nawe nyine ugura izo myenda uri kubona ko ari myiza cyae ibi bituma nyine.

Botike ziba ari neza cyane, noneho inzu igeretse etage cyangwa se karinabiri niba ari na karinatatu ziba ari nziza cyane, botike zateye imbere zituma nyine ibintu byose bikunda, bigenda neza. Uragenda nyine ukajya ahantu hari muri etaje bikurura n'abakiya, kuko itaje ziba ari nziza cyane, bituma abantu bagura ibintu bishimye.

Uburezi bwateye imbere buba ari bwiza cyane, butari nk'uburezi bwa kera, buba ari bwiza cyane kuko uburezi buteye imbere haba igihe mumahanga ukiga ukavanayo ubumenyi bwinshi bwiza, wavayo ukabona akazi mu gihugu cyawe, iterambere ryubu riba Ari ryiza cyane.

Abantu bacuruza amayinite b'abayejenti badufitiye akamaro kenshi cyane. Kuko iyo bacuruje amayinite Igihugu cyungukiramo, kandi n'abantu baguze amayinite bagahamagara abantu bifuza, ibintu bikagenda neza. N'abayacuruza bakuramo inyungu.

Butike ni nziza cyane, botike iyo wayikoresheje wakoranye n'umuntu ukora muri butike, umucuruzi mukamenyana, ibintu byose mubyumvikana neza. Uburyo waza no kwiyindikishayo akantu, akakagukopa. Nyine butike ni nziza ni na yo mpamvu mu cyaro mbese dukunda butike cyane pe! Ziradusayidira, zidufasha muri byinshi cyane.

Botike ziba ni nziza cyane, noneho botike zirimo ibirahuri biba ari byiza cyane, kuko ibirahuri bituma uri hanze wese abona ibintu biri muri botike, ibirahuri biba ari byiza cyane bituma umuntu wese uhanyuze wese abona ikintu kirimo cyose bituma ahaha iba ari nziza cyane.

Banki ziba ari nziza cyane zituma abantu babitsa amafaranga yabo baba babuze aho bayabika kugira ngo agire umutekano. Kandi banki zitanga inguzanyo ku bantu bose bashaka gukora imishinga bigatuma nyine abantu bigira, baba abakire, zigabanya ubukene, kandi banki ziba ari nziza cyane kuko zitang n'imisoro, imisoro igakoreshwa mu bindi bikorwa remezo by'Igihugu.

Amahoteli ageretse ya etaje aba ari meza cyane. Akurura ba mukerarugendo, kandi bigatuma ubutaka butabura ku bantu bahinga. Amahoteli ageretse ya etaje ageretse ni meza kurusha ahurutuye nyine yubatse atari etaje.

Hoteli ziba ari nziza cyane bituma abantu baruhuka iyo umuntu yarushye ajya kuruhukira muri hoteri, akishima cyane, ushobora kujya muri hoteri uri kwishimana n'abavandimwe bawe, ubona ibintu byose bikagenda neza kuko mwese muba mwishimye pe! Birashimisha kuko bituma umuntu aruhuka, haba hariho n'amahumbezi.

Amahoteli yubatswe neza aba ari meza cyane, kuko nk'iyo abantu b'abasirimu cyangwa abakire bagiye mu mahoteli, ntabwo bajya mu mahoteli aciriritse; bajya mu mahoteli meza, asakaye neza, ateguye neza, mbese ameze neza cyane.

Hoteli ni nziza cyane. Hoteli iyo ufite amafaranga wananiwe, ujyamo ukirira, ukabona ibinyobwa ukanezerwa. Mbese icyo ushaka cyose ukibonamo muri hoteli, cyaba ikiribwa, cyaba ikinyobwa, iyo ufite amafaranga mbese ntanikikugora kirimo. ujya aha muri hoteli ukabona icyo ushaka cyose, ukamererwa neza.

Indabo cyangwa ibindi biti muri rusange ku nyubako za leta, biba ari byiza cyane kuko murabona nko mu mijyi kubera nta mashyamba aba arimo ibyo biti biba ari umutako, kandi bituma haboneka umwuka mwiza cyane duhumeka, kandi bikurura ba mukerarugendo kuko biri kubonera cyane.

Amahoteri cyangwa utubari aba ari byiza cyane kuko abakerarugendo bari kugenda bakabona amahoteri meza cyane barayarangarira bakaza kunyweramo bikinjiza amafaranga menshi ku bantu. Amahoteri n'ububari bikurura bamukerarugendo bakinjiza amafaranga.

Ibishyimbo ni byiza cyane, ibishyimbo ni ibyubaka umubiri. Ibishyimbo iyo babiguze ku isoko cyane cyane nk'ibitonore biba byahindutse cyane mbese. Ibishyimbo ni byiza na none ubitekana n'ibirayi, ukabitekana n'ibijumba, ubundi ifunguro ryawe ukarirya riryoshye cyane.

Butike zicuruza amavuta ziba ari nziza cyane kuko amavuta atuma umuntu amererwa neza kuru ruhu. Nk'iyo umuntu agiye kuryama akisiga amavuta k'uruhu abyuka ameze neza cyane mbese igihe cyose ubona umubiri umeze neza. Umuntu wisize amavuta aba ameze neza kurusha umuntu utarigeze uyisiga.

Ubucuruzi bw'imbogabaga buba ari bwiza cyane, kuko buba ariubucuruzi buciriritse, gushaka igishoro cy'ubucuruzi bw'imboga ntabwogo ari ibintu biba bigoye cyane, buri wese ufite amafaranga make arayakoresha mu bintu byo kurangura imboga biba ari byiza cyane nyine, bituma umuntu yigira ntakomezaze gusabiriraza.

Ubucuruzi bw'imyenda ni bwiza cyane, kuko bugirira igihugu akamaro, nk'iyo umuntu uzicuruza yazicuruje, atanga umusoro ku gihugu, igihugu kikubakamo imihanda, kikubakamo n'ibindi bikoresho remezo biba ari byiza cyane, kuko n'umuntu uzicuruza, abonamo amafaranga atubutse, yogutunga umuryango we no kumutunga nk'umucuruzi.

Imbabura ziba ari nziza cyane, kuko imbabura zituma umu ateka ameze neza atuje, iyo ateretseho ibiryo biba ari byiza cyane ategereza ko bishya kuko imbabura ziba nziza cyane kurusha inkwi, kuko inkwi wirirwa watsa buri kanya, cyangwa urakoranya buri kanya arongeramo inkwi buri kanya, ariko imbabura yo atuma abantu bateka neza batuje.

(...)urugero hari abantu bacuruza ibisheke ugasanga babyegetse, ku tubutike twabo, ku mazu yabo, abantu bakajya baraguraho buri wese akavuga ngo nshaka igisheke ca mirongo itanu, igisheke c' ijana bitewe n' amafaranga afite ushobora kuba uri k' urugendo ukaba wiguriye agasheke.

Amasoko adufitiye akamaro kenshi. Tuguriramo imyaka, tuguriramo imyenda, tuguriramo ibyo kurya, tuguriramo ibikoresho byo mu rugo, amasoko ni meza. tuguriramo ibintu byinshi dushaka bitewe n'iryo soko iryo ari ryo muri rusange amasoko ni meza.

Ubucuruzi bw'imbuto buba ari bwiza cyane, cyane cyane nk'avoka zigira akamaro ku bantu bazicuruza, bituma abantu babona icyo kurya ibiribwa biba biryoshye biriho avoka, kandi avoka zigira akamaro mu mubiri zituma uruhu rwacu runyerera, kandi avoka ziba ari nziza cyane pe, iyo urwaye hari indwara urwara bakagutegeka kurya avoka.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, cyane cyane ubucuruzi bw'inkweto buba ari bwiza kuko nk'iyo zamusaziyeho ajya kugura izindi. Iyo yabuze izindi, ibintu biba byabaye bibi bigatuma nyine ajya kugura izindi. Mbega amasoko ni meza cyane.

Amasoko aba ari meza, abantu bacururizamo imbuto, imbuto bitaga za watameroni, imbuto amarongi bayacururizaga mu masoko, mbesi mu masoko abacuruza imbuto barunguka kandi isoko abantu bashora amafaranga akaboneka yo gukoresha mu bindi bikorwa bya leta byose.

Umwuga w'ubudozi uba ari mwiza cyane kuko utunga nyirawo, kandi n'aho abadozi bakorera mu masoko batanga imisoro. Kandi imisoro igira akamaro ku gihugu muri rusange, kuko bituma bubaka mu misoro batanze. Bubakamo amashuri, ibitaro n'ibindi byose bikorwa bya Leta byiza cyane, abaturage bakenera.

Ubucuruzi bw'imyenda buba ari bwiza cyane. Imyenda yasirwa aba ari myiza cyane kuko imyenda yasirwa iba ihenze cyane kandi n'abacuruza bibatungira imiryango. Ababicuruza kandi batangaga imisoro bikagirira igihugu akamaro. Mbese ubucuruzi bukaba ari bwiza cyane muri rusange.